Hari abafatanyabikorwa b'abadamu naba papa bicaye muri sale bari kuri dayiningi kuri tabule imwe ,hari abicaye haruguru hari abicaye hepfo baraganira n'umuyobozi wabo.

Inama y'urubyiruko yateranyije urubyiruko rwose hamwe ruri muri sare rwicayemo, hari umwe umanitse ukuboko, abantu babiri bari imbere, umwe afashe undi bari kuri sitegi hejuru, hari icyapa kivuga rubyiruko menya amateka yawe, hejuru hari ikirangantego, imbere yabo hari intebe z'abayobozi bagomba kuba bicayemo.

Inama y'abaturage n'abayobozi bicaye, harimo ingabo y'Igihugu yicaye ku ruhande bicaye barebana, ameza ni abiri, imeza imwe yicayeho abayobozi abandi bicaye ku ruhande baricaye barebana bari mu nama, hari abafite amazi yo kunywa imbere ku meza n'abandi bahagaze ku ruhande

Umuyobozi uhagarariye amatora y'inteko y'Umurenge rusange wa FPR Inkotanyi arimo kuvugisha abaturage abahereza amategeko n'amabwiriza uko bagiye gutora amatora.

Abantu benshi bicaye muri sale, harimo abana, harimo abamama, harimo abasaza n'abagore batoya, bicaye mu ntebe bafite amaji n'amazi, abateretse imbere, hirya hari abaporotokore hari n'abandi bari imbere.

Abayobozi bicaye bose hamwe bateranye, hari umudamu yicaye imbere n'undi w'umupapa imbere yabo hateretse amazi n'ibirahure birimo amazi yo kunywa, amafone yabo hasi, abandi bicaye inyuma bari mu nama bose.

Umukobwa ubyina amaraba imbere y'abantu, arimo kubyinira ubukwe, arimo kubyina imbyino za kinyarwanda, yakenyeye imyenda y'umweru, arimo kubyina.

Uduseke tubiri tureshya tungana ariko dufite amabara atandukanye y'umukara n'umweru utari umweru cyane duteretse ahantu ni tubiri turapfundikiye.

Intore z'abahungu zirimo kubyinira abantu muri salle, zambaye imyenda y'umukara, ziteye akitero k'umuhondo, zambaye amayugi ku birenge byombi, barapfukamye bateze amaboko, bambaye inigi mu ijosi, ni intore zibyina mu birori, mu bukwe, ahantu hose habaye ibirori barazitumira zikaza.

Abakobwa babyina amaraba bambaye imyenda y'imyeru, biteyeho n'akitero k'umukara, bambaye amajugu hasi ku maguru, barimo kubyina amaraba ahantu habaye ubukwe, bari ku matapi y'urucaca bari muri tente, hari abo babyinira ukuboko kw'imoso barabyina babyinira abashyitsi.

Intore z'abakobwa n'abahungu babyina amaraba, abandi babyina intore, bari mu bukwe barabyinira abantu, hari abicaye inyuma, ari abicaye imbere, zirimo hagati zirabyinira inyuma y'abakobwa, hari ababaterera ingoma, hari ingoma n'imirishyo, hejuru yabo hari kamera n'amatara ya dekoreshoni.

Umutako ukoresheje imicuma n'impeta n'amacumu n'imyambi bigizemo umutako wo mu nzu bagezeho hagati harika ngo zikanabifasha.

Umwami Rudahigwa n'umwamikazi, bambaye amakamba bambaye imyenda ya Kinyarwanda ya kera bambaye n'ingofero z'urugori bambaye imyenda ya kera, ntabwo bambaye nk'abanyarwanda bo muri iyi minsi.

Abakobwa babyina amaraba bakenyeye imyenda y'imyeru n'ibinigi, bambaye utuntu mu gahanga mu misatsi, barimo kugenda ku ruhande hari ingoma hari ingoma bakoresha mu gutera ingoma.

Abakobwa bambaye imyenda y'amaraba barimo kubyina bakenye imyenda y'umutuku n'ubururu n'umukara, inyuma yabo hari umusore ufashe ingabo n'icumu, imbere hirya yabo hateretse akadomora, ibidomora no hakurya imirima.

Icyuma gishinzwe kurinda umuriro no gutwara insinga z'amashanyarazi hirya no hino kirimo ibyuma byinshi cyane biteretse ahantu.

Abantu babiri buriye ipoto, ipoto iriho imigozi y'amashanyarazi, itwaye insinga z'amashanyarazi hejuru cyane niho bari, barimo gukoramo.

Umufundi w'umudamu yambaye ingofero, yambaye ingofero, yambaye n'igisorubeti, hejuru hari urwego afasheho, hari n'abandi benshi bahagaze ku ruhande rw'ibiti iruhande rw'amazu n'urukinga rw'umuriro.

Ibyuma by'amashanyarazi byinshi cyane bakusanyije bikaba biteretse ahantu hamwe na taransifoma itwara umuriro n'amashanyarazi ibitwara ariko n'ibyuma bifite insinga zitwaye imiriro hirya no hino hagati mu muhanda.

Umufundi arubaka yambaye ga, yambaye ingofero mu mutwe, yambaye na masike ku munwa, yambaye amaga mu ntoki ari mu byuma biri ku rubaho, hirya hari inzu iriho ibirahure.

Abakozi bashinzwe iby'imiriro, barimo abafite satifikete bahagaze bazerekana bazifatiye imbere, abandi ntazo bafite, bose bambaye imyenda ijyanye y'akazi, bambaye ingofero mu mitwe, bambaye amajiri bari munsi y'iminara munsi, ya matarasifo afite insinga z'imiriro.

Ibitaro bikuru byo kwa muganga hari ambulance iparitse imbere y'inzu imbere y'umuryango w'inzu hari abicaye inyuma yayo mu ntebe ku iruhande rw'umuryango hari icyapa cyerekana mapu uko wakoresha ubaye utahazi n'ibitaro bikoreshwa mu kuvura.

Amazu mato yafunguye asakarishije amabati y'umutuku n'agashegi n'ibyuma biri hanze na compound, imiryango irafunguye, hejuru hariho akantu k'igikoni, iruhande rw'inzu ni igikoni, ahandi ni inzu batuyemo yo kuraramo

Icyapa cy'Akarere ka Nyagatare ku irembo ry'amahoro habambye ibipapuro byinshi cyane, byerekana Akarere ka Nyagatare mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na, inyuma yaho hari igiti kiri inyuma ntabwo kigaragara, imbere hari amarido mu nzu hafunguwe amadirishya amwe n'amwe.

Igitimba ba mukerarugendo bagenderaho bagiye mu ishyamba, harimo n'abandi bantu barimo guturuka imbere barimo kukigenderaho mu ishyamba, bagikoresha mu buryo bwo gusura inyamaswa.

Polisi imwe n'ingabo z'igihugu ebyiri n'abayobozi babiri barimo gufatanya na polisi n'abasirikare barimo gukingura, barimo gukata umugozi wo gufungura inyubako n'abaturage bari kumwe nabo babiri.

Ni amashuri yubatse mu buryo bw' ama etaje, hasi hari ama etage no hejuru hari ayandi asakashije amabati y'ubururu hasi hari ibyuma biyazitiye ibirahure.

Inyubako y'ikigo nderabuzima abantu bakoresha mu buryo bwo kwivuza, hari hejuru hari icyapa cy'umugabo n'umumama bafite abana babiri, ku muryango hari umuntu uhagaze aho yambaye ikoti cyangwa umwenda w'ubururu n'agapfukamunwa n'ingofero, imbere yaho harikandagira ukarabe, hari n'abandi bicaye mu mpande ku ruhande, hari intebe ziteye bagomba kwicaramo.

Inyubako ya leta y'amashuri barimo kubaka ntabwo, arangira baracyarimo kuyubaka, hari andi mashuri menshi inyuma yaho, hakurya cyane hari imisozi n'ibiti, biteye ku ruhande, bacyarimo kubaka.

Abantu benshi baziritse inyana umugozi, barayifashe, hari umuveterineri ufashe igipapuro k'imiti arimo gusobanurira abantu, hirya hari amazu, hari n'ibiti, bari mu ifamu, inyana bayishyizemo umugozi barimo kuyireba.

Abantu benshi cyane baje ku rwibutso bafite amasanduku n'indabyo, n'amafoto y'abantu babo bapfuye, bari muri tente abenshi bari imbere y'amasanduku, hari abambaye imyenda y'imikara bashinzwe guterura amasanduku, hari n'abandi bahagaze inyuma bafashe indabyo, abashinzwe guterura bari ku ruhande.

Abaturage benshi cyane barimo aba mama n'abapapa n'abasaza, harimo ingabo z'igihugu zicaranye n'abandi bayobozi hari umudamu hagati arimo kuvuga, bicaye ahantu hanini cyane mu ntebe, abandi bicaye hirya cyane hari abicaye hasi n'abicaye mu ntebe. Barimo kumva icyo umudamu arimo kuvuga umuyobozi wabo.

Abantu bicaye mu ntebe ku kibuga hafi y'ikibuga cya kanombe cy'indege hari abayobozi bahagaze harimo ingabo y'igihugu n'abandi bayobozi bicaye iruhande rwe nawe, hari umu mama uri hagati imbere arimo kuvuga hari abandi basaza bicaye imbere yabo.

Abaturage bari ku murenge bicaye mu ntebe, hari umugabo uri imbere ku gatuti afashe mikoro arimo kuvuga, ku ruhande hari imodoka n'inyuma habo hari imodoka, bari iruhande rw'umurenge haruguru, afashe mikororo aravuga undi arahagaze .

Abantu benshi bicaye muri tente, hari abahagaze harimo n'ingabo na Polisi ihagaze, iruhande rwabo harimo n'umuganga uhagaze iruhande rw'umudamu, abandi bicaye imbere munsi ya tente harimo ibiti hari n'amashuri.

Abaturage bicaye, bicaye bose, abasaza, abasore ,n'aba mama, haruguru yabo hari daso ibakikije, bicaye kugasozi, bameze nk'aho bari mu nama.

Abayobozi benshi cyane bicaye muma, bari kumwe n'abandi bayobozi, hari imashini ziri imbere ku meza yabo, hari abicaye imbere n'abica inyuma, bari mu nama, harimo inzego za DASSO zishinzwe umutekano, bari mu nama, bose bari muri sale barimo kumva.

korali y'abadive ihagaze imbere y'abaturage bicaye imbere muri tente harimo n'ingabo y'igihugu, harimo n'abayobozi batandukanye bicaye imbere, koraririmbi iri imbere muri pasiparumu muri jaride barimo kuvuga.

Abaturage b'abadamu n'aba mama n'aba papa, n'abana batoya bari kumwe n'abayobozi b'abagabo, hari umugabo uhagaze imbere yabo arimo kuvuga bose bamuteze amatwi inyuma yabo hari amashuri bari munsi y'ibiti niho bahagaze mu kibuga barimo kumwumva ibyo avuga.

Abantu bari mu nzu harimo abirabura n'abanyarwanda, abirabura b'abanyarwanda n'abazungu barahagaze, inyuma bari bicaye mu ntebe zambitse, iruhande hari ameza imbere yabo iteretseho, bameze nk'abari bari mu nama y'ubutabera barahagaze.

Ku rwibutso rwa Nyagatare, hariho abantu benshi cyane barimo gushyingura. Bteruye amasanduku bayajyana, bambaye imyenda y'umukara harimo bafashe indabyo, batereye amasanduku

Imodoka y'Akarere ka Nyagatare iri muri kaburimbo, iragenda imbere hari umutaka w'umucuruzi wa MTN andi mazu ari haruguru ari muri kaburerimbo iruhande hari imodoka iri kuva imbere.

Abamotari babiri bicaye ku mamoto yabo, umwe yambaye kasike undi ntayambaye, bari mu muhanda w'amabuye ntabwo ari kaburimbo, ni mu muhanda w'amabuye udakoze, bari mbere y'icyapa cyanditseho kora wigire birashoboka, imbere hari gete bagiye gucamo, hari inzu, hari n'abantu bari mu muhanda.

Icyapa cyanditseho Karangazi gicishijemo umurongo hagati, hari n'amapoto atwaye insinga z'imiriro, ku ruhande hari akazu karimo kari mu biti n'imitumba, hakurya hari imirima.

Ibyapa bibiri biri ku muhanda kimwe kigaragaza abagenzi ko bagiye kwambuka n'ikindi cyanditseho pakingi, hari ibiti byinshi ku muhanda birimo kugenda, hari kaburimbo ikomeza kugenda ku ruhande, hakurya hari umusozi.

Icyapa kigaragaza y'uko abanyamaguru aribo banyura ahantu, n'amazu ari munsi y'umuhanda, hari n'ibyuma, amapoto atwara insinga ahantu hatandukanye hirya hari icyapa kirimo abantu hasi n'ibiti n'imihanda.

Icyapa cyiri haruguru y'umuhanda, kiri mu ifamu, handitseho nomero z'ijana na mirongo itatu nagatandatu, hepfo yaho ku muhanda hari amapoto y'amashanyarazi arikoho.

Umudamu ufashe mikoro arimo kuvuga imbere y'abandi bantu bicaye inyuma bahagaze inyuma, hari abahagaze impande z'igiti bari mu ifamu, hirya hari igare riparitse agifite mikoro aravuga bamuteze amatwi.

Abaturage benshi bicaye imbere y'amazu, barimo kumva umuyobozi uvuga bashyizeho ibyuma bafite mikoro, arimo kuvuga bicaye bamuteze amatwi, imbere hari imirima n'ibiti bicaye hagati yabyo.

Abaturage benshi barimo bari munsi y'igiti, inyuma hari imirima y'ibitoki ,bari munsi y'igiti bose bari barahagaze hari umuntu umwe urimo kuvuga, bose barimo kumureba.

Abaturage benshi cyane, bicaye muri tente ikoreshejwe idarapo ry'u Rwanda, harimo n'ingabo eshatu z'Igihugu n'umudaso n' umupolisi umwe, n'abayobozi bandi basanzwe, ku ruhande rwabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa, bari mu itente, iruhande hari umutaka n'umuntu uhagaze.

Ingabo z'igihugu harimo abasirikare n'abapolisi n'abadaso n'abaturage bisanzwe n'abayobozi babo barimo bihinga bafatanyije n'ingabo z'igihugu bose bafashe amasuka barimo guhinga mu murima.

Barakora umuganda mu ifamu hari abafite ibitiyo, amasuka, umuhoro n'ipiki hari abahagaze inyuma barimo gukora bose umuhanda.

Abakinnyi babiri bambaye amajezi y'ubururu, hari undi wicaye ku ruhande, haragaragara ko ukuguru kumwe kwambaye isogisi rya buru, hagati hari umuntu, niba ari umuntu niba ari imyenda mu kibuga, hirya ye hari umuntu uhagaze, ruguru hari undi mumotari uri kumwe na moto, n'umuntu, inyuma ni amazu menshi cyane n'ibiti.

Abantu benshi baje muri iyi siporo, abakobwa, abadamu, abapapa n'abamama baje muri siporo, bafite koci wabo arimo kubatoza, hirya hari abandi barimo gukinira hejuru, aba barima kwitoza.

Icyapa cyerekana uko amakipe yagiye atsinda mu Karere ka rwa Mitsi kane bizanwa na gatanu hari uruhande rw'abagore hari uruhande rw'abagabo ngo bagiye batsinda.

Abakinnyi b'umupira barimo gukinira mu kibuga, bambaye amagezi ya bulu bose, barimo gukina umupira, bari mu kibuga, hakurya hari igipangu cyubakiye ikibuga.

Ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi, barimo gukina ariko umukinnyi umwe aravunitse barimo kumukanda ukuguru, aryamye hasi barimo ukuguru aravunitse, hari umukobwa, hari abahungu, abandi batutsi hirya mu izamu baje kureba ikibaye, aravunitse kandi bakinaga.

Abakinnyi b'umupira barimo gukina, hari abambaye ubururu bwijimye, hari n'bambaye ubururu cyane, inyuma yabo hari abafana bari munsi y'igiti bahagaze imbere, hakurya hari amazu ahari, bari mu kibuga barimo gukina.

Abantu bicaye muri sitade Amahoro hari abicaye hasi abandi bari hirya ntabwo bigaragara abandi bari hejuru, umudamu arimo kwirukanka yambaye jezi ya redi na buraka, abandi bambaye jezi ya buru n'inkweto n'amasogisi.

Abakinnyi bari mu kibuga barimo gukina, hari abambaye jezi y'ubururu n'amasogisi y'igitare bafite ballon, imbere yabo haturutse undi mukinnyi wambaye jezi z'umuhondo n'amasogisi y'umuhodo n'inkweto z'ubururu, hari n'abandi babiri baje birukanwa baje mu kibuga gukina umupira, barimo gukina umupira.

Abakinnyi b'umupira babiri, uwa gatatu aragaragara ukuguru kumwe yicaye ku ruhande, inyuma yabo bari mu kibuga, inyuma yaho hari uhagaze undi uri kuri moto, inyuma hari inzu hari amazu n'ibiti, bari mu kibuga bagiye gukina.

Abakinnyi barimo kwirukanka mu kibuga hari ikipe nini ihari, imbere yabo hari amashuri menshi ndimo kubona, hakurya hari imisozi myinshi cyane n'ibiti n'iminara aho batuye.

Amakipe abiri ari mu kibuga barimo gukina, hari ikipe y'abakobwa yambaye umutuku n'umukara, hari ikipe y'aabandi bakobwa bambaye imikara gusa barimo gukina, kandi nakoci wabo yambaye ijezi y'umukara.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga barimo gukina, amakipe yambaye ubururu bufashe indi yambaye ubururu bwerurutse, hakurya hari abafana babo hari bahagazemo yabo hari amazu ari mu biti cyane yasti nigipangukora ikibuga cy'umupira.

Abakobwa batatu bateruye imizigo bavuye guhaha, barimo kugenda mu nzira inyuma ni kaburimbo hari n'amatara arimo kwaka, hirya no hino hari ibiti hepfo no haruguru.

Umukobwa cyangwa umumama urimo kugenda mu muhanda w'abanyamaguru, hepfo hari kaburimbo arimo kugenda mu muhanda w'abanyamaguru, yerekeza aho umujyi uri, imbere hari amazu n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo n'umuhanda w'abagenzi b'amaguru no hakurya hari'abanyamaguru, hari umutaka wa MTN n'umucuruzi wa MTN hirya hari igicumbi imbere hari imodoka ziparitse.

Umuhanda w'igitaka utaringaniye utarimo kaburimbo, ndetse harimo ibinogo byinshi bigiye bitandukanye, haruguru no hepfo ni umurima , harimo amabuye kandi nta muntu muhanda urimo ugendamo.

Kaburimbo yo mu ntara hagati harimo umugabo ugenda n'amaguruguye, inyuma ye hari imodoka zigenda n'abandi bantu barimo kumanuka mu umuhanda ba b'abanyamaguru , imbere yabo hari ibyapa bihari, hari amazu, hari ibyapa by'aditseho kora wigire. Hari itente ntoya, hari n'ibiti, mapoto y'amashanyarazi.

Umuhanda w'amabuye wo mu cyaro akaba ari kaburimbo abantu bagendaho bakoresha, ku ruhande hari umunyamaguru arimo kugenda n'amaguru, umuhanda bakoresha ufite amabuye menshi cyane.